Imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi ibakura ku bitaro bimwe ibajyana ku bandi, iba rimo muganga kugira ngo umurwayi nagire ikibazo bari mu nzira amuhe ubufasha.

Umurwayi ufite ikibazo kijyanye n'ukuboko kwavunitse, ari kwa muganga hari umugabo uri kumwitaho, uwo murwayi ukuboko kwe bagushyize muri sima kugira ngo ajye abona uko agutwara bitewe n'uburwayi.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi ibakura ku bitaro bimwe ibajyana ahandi dukunze kwita ambirase, irimo umushoferi ndetse n'umuganga kugira ngo umurwayi nagire ikibazo umuganga amwiteho.

Abaganga bari mu biro cyangwa se icyo twita muri Laboratwari, bari gutegura imiti yabo ndetse basuzuma n'ibikorwa byabo cyangwa ibizamini bafashe ku barwayi, hari abari kureba muri mudasobwa kugira ngo babashe gusuzuma bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umurwayi utabasha kugenda yicaye mu kagare, abaforomo batatu bamuri iruhande, umwe amutwaye mu kagare, bipfutse ibintu mu maso no mu mazuru bisa umweru, bambaye imyenda isa umweru, bari kumujyana ahantu mu modoka itwara abarwayi.

Ikigo nderabuzima gitangirwaho ubufasha ku barwayi, kiri ahantu hegeranye n'ishyamba rifasha abaturage batuye hafi aho ngaho, imbere hari intebe zifasha abarwayi igihe bategereje kwinjira ngo bahabwe ubufasha, hari n'umuganga cyangwa se umuvuzi uba utegereje gufasha abo barwayi.

Abarwayi bari kwa muganga, harimo ababyeyi bibarutse abana, bateruye abana babo bibarutse, mu byumba barimo ,harimo ibitanda biteguye bifite inzitiramibu baryamamo, igihe bategereje gufashwa na muganga.

Abatanga ubufasha kwa muganga biyambitse ibinu bipfutse mu maso ndetse n'umubiri wose, bari gutera umuti ushobora kuba utari mwiza ku mubiri w'umuntu, bakaba biyambitse ibyo ngibyo kugira ngo bitagira ingaruka bibagiraho.

Abatabara imbabazi dukunze kwita croix rouge, bari gushyira umurwayi muri ambirasi mu rwego rwo kugira ngo ashyikirizwe ku bitaro bikuru kugira ngo bimufashe ndetse ahabwe n'ubundi bufasha bwose bukenewe ku murwayi.

Imodoka dukunze kwita ambilance ifasha abarwayi kugera ku bindi bitaro bikuru, cyangwa se kubakura ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi igihe byabaye ngombwa ko babagezayo.

Icyumba giteguyemo ibitanda by'amapine bifasha abarwayi ndetse harimo n'imiti y'amoko atandukanye, yifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi.

Umurwayi uri kwa muganga, muganga ari kumufata ibizami amwandikira imiti igiye itandukanye amubaza ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'uburwayi bwe kugira ngo amenye ibizami amufata cyangwa se imiti amwandikira.

Umuvuzi cyangwa se umuganga ari gutera urushinge umurwayi waje amugana, afite ibikoresho bigiye bitandukanye yifashisha mu kwita ku barwayi ndetse hari n'agatanda kifashishwa igihe umurwayi akeneye gusuzumwa aryamye cyangwa se akeneye kuruhuka.

Umuganga uri gutera umurwayi urushinge ku gatoki kugira ngo abone amaraso azagufatisha ibizami ari gusuzuma indwara uwo murwayi yaba afite, afite impapuro ari bwandikeho ibizami birafatwa kuri uwo murwayi.

Inzu y'ibitaro bikuru ijyanye n'iby'ubuvuzi, abarwayi bajyanwaho igihe bafite uburwayi bukomeye ndetse n'abafite uburwayi bworoheje bose bajyanwayo, mu rwego rwo kwitabwaho bahabwa imiti ndetse banabakorera n'ibizamini ku burwayi bwabo, hari abavuzi bagiye batandukanye bambaye imyenda yabugenewe bahagaze hamwe.

Umurwayi uri imbere y'abaganga babiri, umuganga umwe ari kumusuzuma, aho ariko kumupima umuriro, undi muganga ari kumwandikira mu ikarine ibijyanye n'uburwayi bwe ndetse amwandikira n'imiti.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya ariho ibirahure bya fime. Imbere yayo hateyeho ibiti bibiri binini, muri iyo nzu harimo intebe yicayeho umugore uteru uyu mwana, hari n'umusore uri inyuma, hari na moto.

Abakozi bo kwa muganga nk'abaganga babihuguriwe bambaye amataburiya ndetse n'abandi bashyitsi baturutse hirya no hino harimo abagabo n'abagore bambaye utuntu mu ijosi tugaragaza icyo bakora bateraniye hamwe.

Ababyeyi ndetse n'abasaza n'abandi bakiri bato, bari ku kigo nderabuzima, bicaye, bategereje ubufasha kugira ngo babashe kwivuza neza kandi buri wese abashe guhabwa ubufasha akeneye.

Inzu itangirwamo imiti aho abarwayi bategereje guhabwa imiti ndetse n'abavuzi bakaba bari kureba ku miti yandikiwe umurwayi, bayishyira ku murongo ndetse bamuha n'amabwiriza y'uko azayikoresha.

Abaturage batandukanye baturutse mu bice bitandukanye, bicaye hamwe, imbere hari abaganga babahagaze imbere, bambaye imyenda y'akazi, amataburiya ndetse aho hari n'abafite ubumuga, bari aho ngaho bicaye kwa muganga, bari guhabwa ikiganiro.

Abarwayi baje gusaba ubufasha kwa muganga hari abaganga cyangwa abandi bashyitsi baturutse hirya no hino bari kubabaza ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'uburwayi bwabo igihe bagitegereje.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda giteguye neza, icyo gitanda gifite amapine kigenda cyifashishwa mu gihe umurwayi akeneye kuryama cyangwa se igihe bamwandikiye ibitaro, akaba akiryamyeho mu gihe abaganga bamukurikirana.

Abagabo batandukanye ndetse n'umugore bateraniye mu cyumba k'inama, aho bafite ibikoresho byo kwandikaho ndetse n'ibyo kwifashisha mu kwandika bari kujya inama ku ngingo zijyanye n'ubuvuzi.

Abaganga bari mu biro byabo bari gutunganya imyenda cyangwa se ibyo bambara mu ntoki, igihe bari mu kazi ko kuvura ndetse banashyira ibikoresho byabo ku murongo bifashisha mu kazi kabo ka buri munsi.

Mudasobwa iteriretse mu cyumba ahantu hari n'intebe wicaraho, icyo cyumba kirafunze bigaragara ko yifashishwa mu gutanga ubufasha butandukanye bujyanye n'ubuvuzi bugiye butandukanye.

Abaganga bari mu bikorwa by'ubuvuzi aho bari hari abarwayi, bari kugenda batunganya ibikoresho by'ubuvuzi, bambaye imyenda y'ubuvuzi nk'amataburiya y'umweru ndetse na ga z'umweru.

Umuganga uri mu cyumba ke cyangwa se mu biro bye, urimo yandika, kwandika ubwoko bw'imiti cyangwa se ibindi bikorwa bye, iruhande rwe afite ibitabo bitandukanye yandikamo.

Abarwayi bari kwa muganga mu kaboko kabo harimo selu, mo baryamye ku dutanda tw'abarwayi hari muganga uri kubakurikirana abandidikira imiti igiye itandukanye bifashisha mu kugabanya uburibwe cyangwa se mu kuvura indwara barwaye.

Inzu abarwayi bararamo bakunze kwita ibitaro, harimo abarwayi n'ibitanda by'abarwayi. Ibyo bitanda biba biteguye neza, hariho inzitiramibu, ndetse hakunze kwinjiramo n'abarwaza baba barwajije abo barwayi n'abafite ubumuga, babicazamo mu gihe bategereje ubufasha bwa muganga.

Umuvuzi cyangwa se umuganga uri kureba mu gikoresho akunze kwita microscopi uri gusuzuma ngo arebe indwara cyangwa se ubindi bintu byaba biherereye mu kizamini yafashe.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, afite igipimo ari gupima ibintu bitandukanye, afite umunzani ndetse inyuma ye hari bagenzi be bandi na bo bambaye amataburiya y'umweru bafite ibyo bari gupima, ni muri laboratwari cyangwa se icyumba k'isuzumiro.

Abanyeshuri bari mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi icyo cyumba aricyo bakunze kwita laboratware, aho baba bari kugenzura ko ibyo biga mu magambo, bikoreka koko iyo babishyize mu bikorwa.

Umuganga ufite igipimo yafatiyemo amaraso uri gusuzuma indwara yaba iri mu maraso, icyo gipimo gipima icyorezo gitera sida, ari ahantu muri raboratware.

Mu nzu ikunze kwitwa laboratwari, aho abanyeshuri cyangwa se urubyiruko rukiri batoya bateraniye, bari kwiga uko ibikorwa byo muri laboratwari bikorwa ndetse barikora ubugenzuzi ku bushakashatsi bari gukora.

Abaganga bari gusuzuma ibizamini byafashwe muri raboratwari aho bafashe ibikoresho bigiye bitandukanye mu kureba neza umumaro w'ibyo bikoresho bifashishije n'ibyatsi bari kubirebamo ngo barebe imiterere yabyo.

Abarwayi bari mu bitaro bararyamye ku bitanda by'abarwayi hari n'abarwaza babicaye impande muri ibyo byumba barwariyemo harimo inzitiramibu, harimo amarangi y'ubururu n'umuhondo hari umugore wicaye hirya usa nk'umurwaza urwajije umurwayi.

Abajyanama b'ubuzima bateraniye hamwe, bari guhugurwa ku bijyanye n'ibikorwa byabo bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko bari mu gihe cyo kwirinda icyorezo cya Kovidi cumi n'ikenda

Umubyeyi uri ku kigo nderabuzima uteruye mwana we, bari guseka barishimye nk'abahawe serivisi nziza, hakaba hari n'abandi barwayi bategereje serivisi, hakaba hari n'abandi bafite imashini ya mudasobwa ari gutanga ubufasha kuri abo barwayi.

Abayobozi baturutse ku nzego zitandukanye, bari bafite uruzitiro rwababuzaga kwinjira, aho barukase kugira ngo babashe kwinjira, bigaragara ko ari ikimenyetso kerekana ko hari ibyari bitangiriwe bigiye kuziturwa, hari n'ababyeyi bari bitabiriye ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse n'ubw'umugore utwite.

Umuganga ari gufasha umubyeyi aho yamushyizemo igipimo kimusuzuma umuriro ndetse n'uko amaraso atembera mu mubiri, hari n'abandi baje kwivuza bategereje ubufasha kuri uwo muganga.

Amagambo yanditse ku rukuta agiye atandukanye yerekeranye n'iby'ubuvuzi, afite umutwe witwa ngo icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana hariho insanganyamatsiko zitandukanye, harimo irinde malariya ita ku isuku urwanya inzoka zo mu nda, gaburira umwana indyo yuzuye gukingiza umwana inkingo zose ndetse n'izindi ngingo.

Icyumba cyo kwa muganga gifasha ababyeyi batwite cyangwa se ababyaye, kirimo umubyeyi wibarutse umwana bamuryamisha ku gatanda ke, umubyeyi nawe we yicaye imbere y'umwana ari gukurikirana umwana.

Ababyeyi umugore uteruye mwana ndetse n'umugabo uteraruye mwana babazanye kwa muganga abo bana barangana bisa nk'aho ari impanga, babyeyi bishimiye igikorwa cy'uko bazanye abana bari kumwe.

Abanyeshuri batoya mu mashuri y'inshuke bateraniye hamwe bari gukina bafite umubyeyi umwe uri kubakurikirana ibikorwa byabo byo gukina, bishimiye gukina abandi nabo bishimiye kuba bari kumwe n'ababitaho.

Abaturage bateraniye ahantu hamwe hateguwe neza, bishimiye igikorwa kiri kuhabera babahaye imipira isa bari kubyina, bigaragara ko hari igikorwa cyari kibahurije aho bishimiye.

Abayobozi ndetse n'abandidi baturage bateraniye hamwe, bicaye abandi bahagaze, bafite ingingo bari bari kwigaho yitwaga the reginal center of excellence on gender based and child abuse.

Abaturage batandukanye baturutse hirya no hino, bicaye ahantu muri sale bari guhabwa ikiganiro n'umuyobozi ubari imbere, harimo abagabo, abagore, batandukanye bicaye ku ruziga bateze amatwi ibyo bari kubwirwa.

Abaturage bateraniye hamwe mu gikorwa cyo guhabwa ikiganiro ku bijyanye no kumenya imikorere na serivisi zitangwa n'ubuyobozi, aho haje ababyeyi ndetse n'abagabo bari bitabiriye icyo gikorwa.

Abayobozi batandukanye bari ku nzego zitandukanye, bafite ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga '' kwita ku buzima bwo mu mutwe'', hariho abagize iyo komite y'abo bayobozi, aribo bagaragaje, hagiye harimo n'amazina yabo atandukanye.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari kugenda bafite insanganyamatsiko ivuga ngo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda. Bagiye bafite impapuro nyinshi zitandukanye ziriho iyo nsanganyamatsiko bari gushishikariza abantu.

Ababyeyi ndetse n'abana bateraniye hamwe, bateze amatwi ikiganiro bari guhabwa n'undi mubyeyi uhagaze imbere yabo, bitabiriye icyo kiganiro bishimye ndetse banakurikiye ibyo bari kubwirwa.

Umugore uhagaze imbere y'abandi afite urupapuro mu ntoki, afite n'indangururamajwi ari gutanga ikiganiro cyangwa se ubusobanuro ku bijyanye n'ubuvuzi. Inyuma ye hari abandi bagenzi be bambaye imipira y'umweru, bari kwandika cyangwa se nabo bateze amatwi ibyo ari kuvuga, hari n'abandi bayobozi bateze amatwi ibiri kuvugwa.

Umuryango ucururizwamo ibijyanye n'imiti, harimo umugore n'umugabo abo abashinzwe gukurikirana iyo miti bakunze kwita abaforomasiye, baba bambaye imyenda y'akazi igaragaza ko ako kazi bagakora barakigiye kandi bagafite ubumenyi.

Imiti itandukanye yifashishwa mu burwayi bakunze kwita ibinini, harimo ibinini by'amoko atandukanye, ibinini bigiye bifunitse biri mu mabara y'ubururu, ay'umutuku ndetse n'ay'umweru, bivura indwara z'abantu.

Imiti itandukanye yifashishwa uwo murwayi ariyo y'ibinini, harimo ibinini by'umweru, binini by'umutuku, ndetse n'ibinini by'umuhondo n'ibya orange bifashisha igihe wagize uburwayi bikaba byakuvura.

Imiryango ibiri yegeranye y'ubucuruzi, umuryango umwe ukorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi bw'imiti, iyo ni farumasi yitwa Adrenaline Pharmacy, ndetse n'undi muryango ucururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Inzu y'imiti n'imbuto z'ubuhinzi zifashishwa harimo amoko atandukanye y'imbuto n'andi moko atandukanye y'imiti yifashishwa, harimo akabati iyo miti igiye ipanzemo mu buryo bwiza bugaragara neza.

Inzu icururizwamo imiti, harimo imiti y'amoko menshi imanitse mu tubati, hari imiti ipfundikiye mu macupa ndetse n'indi miti iba ipfundikiye mu dukarito, ihabwa abakeneye kwivura.

Inzu ibikwamo imiti itandukanye yo kugurisha, harimo ubishinzwe, aba yambaye imyenda yabugenewe ariyo, itaburiya y'umweru, agenda agenzura umuti bitewe n'uwo ushaka, akawuguha ukamwishyura.

Ubwikorezi bwo ku mutwe, aho umuntu atwayedaguze ku mutwe abikuye mu maduka atandukanye, hariho amafaruromasi ndetse n'andi maduka acururizwamo ibindi bikoresho byo mu rugo byo kwifashisha nka matola ndetse n'ibindi byo kuryamamo.

Inzu y'ubuvuzi dukunze kwita farumasi, itangirwamo imiti ku barwayi ndetse n'ubundi bufasha bujyanye n'umuntu ufite n'uburwayi, barasuzuma bagatanga imiti, bagakora massaje, ndetse n'ibindi byerekeranye n'uburwayi.

Abaturage benshi bakusanyirije ahantu hamwe mu kibuga, baturutse ahantu hagiye hatandukanye, bateraniye hamwe imbere hari ufite icyo ari kubabwira, bamutumbiriye abandi bari kumuha amashyi, bishimiye icyo bari kubwirwa.

Abantu benshi bari imbere y'ikibuga cy'umu cya basiketi bafite inkuta zanditseho agakingirizo bari kwamamaza agakingirizo, bahagaze imbere yinzu bishimiye ubutumwa bari gutanga.

Abaturage benshi harimo: abasaza, ababyeyi ndetse n'abakecuru, bateraniye hamwe bambitswe imipira igaragaza icyo bari bajemo, bari bari ahantu hateguye neza bigaragara ko hari ikiganiro bari baje guhabwa.

Abashinzwe ubuzima bateraniye hamwe, harimo n'ingabo z'u Rwanda, bicaye hamwe, imbere yabo hari umwenda wanditseho kurandura malariya bihera kuri njye, bigaragara ko bari gushishikariza abaturage kwirinda malariya.

Abayobozi bo ku nzego zitandukanye, harimo n'abashinzwe umutekano, bahuriye hamwe, bari guha abaturage udukoresho tuzajya twifashishwa mu kugaburira abana, kugira ngo babashe kubona indyo yuzuye ndetse n'aho bazajya babika amazi meza yo kunywa.

Abanyeshuri bateraniye hamwe bicaye ku ntebe ndetse ziriho n'ameza bafite insanganyamatsiko ivuga ngo Ndi uw'agaciro ndashoboye bateraniye hamwe bafite uri kubaha ikiganiro imbere yabo bahanze amaso.

Abantu benshi bateraniye hamwe imbere yabo hahagaze uri gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bamuhanze amaso, ndetse hari n'undi uri gukurikirana ibikorwa by'uwo nguwo yifashishije mudasobwa.

Abashinzwe iby'ubuzima, bateraniye hamwe, bari kureba ku bijyanye n'imiti bafite ndetse bareba no mumashini imikorere yabo, ku bijyanye n'uko bakurikirana ibikorwa by'ubuzima.

Umuganga uri kwita ku murwayi, aho ari kumutera urushinge kugira ngo aze kubona uko amusuzuma indwara y'abarwaye, hari n'abandi bategereje ubufasha kuri uwo muganga.

Icyapa cyanditseho insanganyamatsiko yitwa: "gushishikariza urubyiruko kwitabira serivisi zo ku cyumba cy'urubyiruko." Bigaragara ko ari ikirori kiraba kirimo abatumirwa, nka Fron Nzayisenga, umusangiza w'amagambo araba ari Valensi Nyonkuru. Icyo kiganiro kiratumirwamo urubyiruko, nka Ishimwe Bonete, Niyonkuru Hasani . aba ni abari bukine agakino.

Abagabo bambaye imyenda yabugenewe, bafite amacupa yifashishwa mu kuzimya umuriro, igihe haje umuriro w'inkongi uturutse ku mashanyarazi cyangwa se n'ahandi ,hari n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'abashinzwe umutekano.

Icyatsi kitwa umwenya keze neza aba kera bifashishaga mu buvuzi bw'indwara y'inkorora, ntabwo bakeneraga imiti, ibinini ahubwo bifashishaga iki cyatsi cy'umwenya.

Icyatsi gifite uturabyo hejuru tw'umweru, dukunze kwita igishokoro, abakera bifashishaga mu kwivuza ibisebe ndetse n'ubundi bubabare, gisa neza cyane kiba gisa icyatsi kibisi.

Umubyeyi yicaye mu nzu ye, imbere ye hari umukeka uriho amoko ajya atandukanye y'udukoresho, inyuma ye hari imiti itandukanye ya kera bifashishaga mu buvuzi bwabo bwa gakondo, hari n'inkoni cyangwa se abantu bifashishaga mu bihe byo guterekera cyangwa se gucuragura, ibyo bikoresho ni ibya gakondo kuko bimeze nk'inkoni ibyo baboshye nawe yiteze ibitambaro mu mutwe.

Umuntu ufite indwara dukunze kwita ise, ikaba yaramufashe mu gatuza ari nyinshi, ijya ivurwa n'imiti gakondo, harimo umuravumba ndetse n'umunyu w'ingezi, bahundanye akawusigaho.

Ubuvuzi gakondo, aho ababyeyi babiri bari kuyungurura imiti batetse, bagakuramo amazi yawo bakamuye muri iyo miti, bari kuyiyungurura neza kugira ngo ize imeze neza.

Umuti wumuravumba uvura ndetse aba kera bakundaga kwifashisha igihe babaga barwaye indwara zitandukanye: inkorora, anjine, kubabara umutwe witwa ibicurane no kuribwa mu igifu.

Umugore ahagaze imbere yambaye imikenyero, afite indangururamajwi asa nkaho afite icyo ari kuvugaho, aho ahagaze hari abamuteze amatwi, inyuma ye no mu mpande ze hari ibyapa byanditseho, kuri iyo nzu imbere y'aho ahagaze hari icyapa cyanditseho ngo ''gira ubuzima''.

Umurwayi waje kwa muganga uri guhabwa imiti, ndetse n'abandi barwayi bicaye hafi aho bategereje guhabwa ubufasha, ku bijyanye n'uburwayi, bwabazanye ahongaho ku kigo nderabuzima.

Umuganga uri gusuzuma umuriro umwana yaba afite, aho umubyeyi we yamujyanye kwa muganga akaba amuteruye, muganga ari kumusuzuma akaba afite amakayi ari bwandikemo ibyo arasanga uwo mwana afite, cyangwa se ibipimo araba yakuye mu mwana.

Ikigo nderabuzima, gifite abaganga, bafite imiti itandukanye n'impapuro wandikaho amoko y'imiti, ndetse hari n'umurwayi waje gusaba imiti, uri kwaka ubufasha.

Inzu yubatse iri ahantu mu ishyamba yanditseho amagambo agiye atandukanye igaragara nk'ikigo nderabuzima gifasha abaturage bakeneye ubufasha ku bijyanye n'ubuzima, imbere hari intebe bicaraho igihe bategereje ubufasha.

Ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu kuvura amatungo yo mu rugo, nk'inka, ihene, ndetse n'ingurube, iba iri mu gakarito, aborozi baza kugura kugira ngo bifashishe mu kuvura amatungo yabo.

Ikigo nderabuzima, imbere hicaye abarwayi bategereje ubufasha, icyo kigo nderabuzima cyanditseho, girabu ubuzima, hatangirwa ubufasha, haba ku babyeyi cyangwa se abakiri batoya, imbere hari inzira nziza banyuramo, igihe bari kwinjira muri icyo kigo nderabuzima.

Umuganga ari mu biro bye, afite imashini ari kugira ibyo yuzuza muri iyo mashini bijyanye n'kazi ke k'ubuvuzi, afite ibipapuro bigiye bitandukanye agenda yifashisha mu kwandikaho ibijyanye n'uburyo ki akora akazi ke.

Ababyeyi bafite abana bakiri batoya cyane, abana bonka bicaye imbere y'ikigo nderabuzima, bakeneye gukingiza abana babo ndetse no kubasuzuma kugirango ngo ubuzima bwabo bukomeze kumera neza.

Umubyeyi utwite uri kwa muganga uri gufata imiti, ndetse n'abandi bagabo baturutse hirya no hino, nabo baje gusaba ubufasha ku kijyanye n'uburwayi bafite.

Ikigo nderabuzima kigenga kiri imbere y'umuhanda gifasha abaturage bakeneye ubufasha ku bijyanye no kubona imiti cyangwa se gusuzumwa kikaba kidakorana n'ubwishingizi ahubwo ugize ikibazo udafite ubwishingizi ajyayo cyangwa se ukeneye imiti atabona ku bigo nderabuzima bya leta akajya kuyigurayo.

Ikigo nderabuzima cyanditseho gira ubuzima, cyubatse ahantu hakikijwe n'ishyamba ndetse rifite n'ubusitani, hahagaze ingabo y'u Rwanda bisa nkaho ari kugenzura ibikorwa by'icyo kigo nderabuzima.